Imodoka nziza y'umweru ifite ibarahure n'amapine y'umukara ihagazeho abantu abagabo babiri bafite ibyapa by'ikigo gicuruza imodoka cyAkagera.

Imodoka isize ibara ry'umukara, icanye amatara y'umutuku, igurishwa ifite igiciro cya miliyoni icumi, iparitse iruhande rw'inzu ndende isize mabara y'umweru, ifite n'ibirahure byinshi.

Umugabo wicaye n'umwana bicaye ku ntebe z'umweru bakikije ameza y'umweru ateretseho utujerekane tw'amata hari n'umugabo ubazaniye amata wambaye umupira w'umweru .

Umugabo w'umuzungu afite amafaranga agiye atandukanye, harimo amadorari y'ijana n'amadorari y'icumi. Yambaye n'impeta nziza cyane ibengerana ikozwe muri zahabu.

Akabati gakozwe mumbaho kariho imitako itandukanye, kariho umutako w'umweru kariho n'undi mutako ukoze mw'isaha, hari n'igitanda gikoze mumbaho kiriho gishashe neza kiriho imisego kikaba kiriho n'amashuka asa umweru.

Abantu babiri harimo umwarimu n'umunyeshuri, umwarimu wigisha imodoka. Umunyeshuri bari kumwigisha amategeko yo gutwara ikinyabiziga. Hariho n'amagambo yigisha abantu gutwara imodoka.

Umugabo umwe wicaye, n'undi mugabo uri kumwe n'umukobwa wambaye ijipo, ikanzu y'umutuku n'umupira w'umukara, bari ahantu bacururiza inkweto, hari umugabo wambaye umupi wambaye umupira w'umweru n'ingofero, yambaye n'ipantaro y'umukara.

Akazu gato k'umuhondo kariho ibyapa by'ikigo gitanga serivise z'itumanaho. Hari abantu, hari abagore babiri, n'umugabo umwe bari hanze n'abandi, n'undi mugabo umwe urimo imbere, n'undi mugore umwe urimo imbere batanga serivise.

Akazu gato k'umuhondo karimo umugabo umwe wambaye umupira urimo amabara y'umweru n'ibara rijya gusa n'igitaka, hejuru y'akazu hari hasize ibara ry'ubururu iruhande rwaho hari urutoki rwiza cyane n'inzu cyane.

Ni nziza cyane inzu nziza cyane igurishwa iri mu mujyi wa kigali ahitwa kabeza iri mu mabara agiye atandukanye ifite ama esikariye y'umweruru n'ikijuju iri ahantu hari ikirere cyisa neza cyane kirimo ibicu by'umweru.

Inzu icuruza imyenda y'abagore iri mu mabara yose hari umuntu hari umugore ufite ibisuko by'umukara yambaye agakote k'umukara, hari n'abandi bagore babiri n'umucuruzi wambaye imyenda y'umweru afite imisatsi y'umukara n'undi w'umuguzi wambaye ipantaro y'umukara n'agapira k'umweru.